Ubu ni ubucuruzi buciriritse bw'ahantu hatari isoko, cyakoze hari amazu menshi, ariko haba harimo ibiribwa n'iby'abantu bakenera cyane.

Ubukanishi bw'amagare bufasha abanyonzi, bugafasha aba bakanishi kubona imibereho ya buri munsi, kandi bigafasha n'aba banyonzi kugira amagare ameze neza, bigatuma bakora akazi kabo ko gutwara abantu n'imizigo, ibi bikaba bituma ubuzima bwabo bugenda neza.

Ikiranga aho bategera imikino, abagiyemo baba bagiye gutega ku mikino itandukanye, abantu barebera kuri tereviziyo zitandukanye.

Inzu yo kubamo cyangwa gucururizamo cyangwa no gukodesha, tukayikoreramo n'ibindi bitandukanye, kubikamo ibintu by'agaciro, hari n'ubwo umuntu yubaka inzu ari iyo gukoreramo ubucuruzi butandukanye.

Amacumbi y'abagenzi n'abandi baturutse kure baraye nzira, aho bacumbika bakishyura.

Amahoteri n'ubukerarugendo， bidutejeje imbere mu karere k'Amajyaruguru，cyane cyane Musanze mu gice cya Kinigi，aho abakerarugendo basura ingagi mu birunga.

Iduka ry'ubucuruzi bw'imyambaro n'ibiryamirwa.

Rimwe mu masoko y'ibiribwa aciriritse, yegereye ahantu h'icyaro aho abaturage bagurishiriza imyaka yeze.

Ubucuruzi bwi'bikoresho byo mu rugo cyane cyane ibyombo, amasahani, amasafuriya, ipanu ibyo gutekeramo, amajerekani byose Ibi ni ibikoresho by'ingirakamaro.

Izi ni zimwe mu mbuto zikunzwe cyane ariko z'abasirimu, abantu batazizi ntabwo bapfa kuzigura.

Isoko rusange duhahiramo ibintu byose dukenera iwacu mu rugo buri munsi, imyenda, ibyo kurya, n'ibindi byose tubisangamo, aha ngaha bikadufasha ko twabona ibyo dukeneye tutagiye kubishakira kure.

Ibikoresho by'itumanaho: telefone, amasharijeri, n'ibindi bice byose bijyanye na terefoni.